Ndikubona ingoma ikozwe mu ruhu ikoreshwa n'abanyarwanda cyane cyane abo mu gihe cya kera.

Aba bagore bari kubyina imbyino gakondo, nk'umuco nyarwanda, umuco wa kera.

Ndi kubona urusengero runini abantu benshi basengeramo, iruhande rwarwo hari ibiti.

Aba ni abaturage n’ababyeyi, bari mu nama. Bari kuvuga ibitekerezo byabo n’ibibazo bafite, kugira ngo abayobozi bazabikemure.

Ndi kubona abakobwa bari gukina umupira w'amaguru, hariho n'abafana benshi cyane, bari gufana.